Inama yahuje abayobozi batandukanye, abayobozi bose bakaba bafite ikaramu bari kwandika. Imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi.

Inama ihuza abayobozi batandukanye ndetse harimo n'abaturage. Ikaba yabereye mu cyumba kinini. Ikaba yahuje abayobozi b'igisirikare n'abandi bayobozi b'abaturage.

Bimwe mu bikoresho bya kinyarwanda harimo urusyo, ingasire, ndetse n'agaseke, urusyo bakaba bari barimo barasyaho amasaka.

Umwana w'umukobwa aho yaboshye imisatsi, uyu mukobwa akaba afite inkono y'itabi ya kinyarwanda anyweramo itabi, uyu mukobwa akaba yambaye ishati y'umweru.

Abakobwa barimo barabyina imbyino za kinyarwand, bakaba bambaye n'umwitero wa kinyarwanda, aho bambaye imishanana bakaba bari kubyina bateze amaboko.

Urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, urugomero rukaba ruriho ibyuma bizamutse hejuru bitwara umuriro w'amashanyarazi ahantu kure, hakaba rugizwe n'ibyuma by'umweru.

Umugabo yuriye igiti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, akaba arimo aratanga umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage.

Umugabo wambaye akarindamutwe k'umuntu arimo arakora umuriro w'amashanyarazi, aho arimo arahuza ahuza insinga kugira ngo umuriro ubashe kugenda ugere aho ashaka neza.

Ibiti biriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi hakaba hanariho amatara amurika ku muhanda igihe uba bwije, ibiti bikaba bikoze mu isima naho ibindi bikaba ari ibiti bisanzwe.

Ibyuma biteye bifasheho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Ibi byuma bikaba bitwara umuriro w'amashanyarazi ugiye kure. Bikaba biba biteye ku musozi.

Ni inyubako ya Leta yubakishije amabati asa icyatsi, inzugi n'amadishya bikaba bisa ibyatsi, ibirahure bikaba bisa umweru, ibikuta bikaba bisa umukara hasi ndetse n'umweru hejuru.

Igororero rya Nyagatare aho bagorora abantu bafite ingeso mbi hakaba hubakishije amatafarina naho inzugi zikasa umweru ndetse n'umukara.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kikaba ari ikibuga cy'ubwatsi, kikaba kiriho abafana baba bicaye mu myanya yabagenewe. Iki kibuga kikaba kizengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma.

Inyubako ya leta, aho inyubako yubatse igeretse. Ikaba isize irangi ry'ikijuju. Imbere y'iyi nzu hakaba haparitse imodoka.

Inyubako y'ibiro by'Umurenge, aho iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti, hakaba imbere y'iyi nzu hari icyuma kizamuyeho ibendera ry'Igihugu.

Ibiro by'Umurenge wa Katabagemu, ibi biro bikaba byubakishije amatafari ahiye, bikaba bisakaje amabati y'ubururu, inzugi zikaba zisa umweru ndetse n'ibirahure.

Ku mupaka utandukanya u rwanda ndetse n'u bugande. Akaba ari umupaka wubatse hagati y'u Rwanda na uganda. Ukaba watashywe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Umupaka utandukanya u Rwanda n'Ubugande. Ukaba ari umupaka wubatse hagati y'ibyo bihugu byombi. Hakaba hari abaturage bari kuva mu Bugande bajya mu Rwanda.

Ikigo cy'amashuri aho cyubakishije amatafari kiba gisakaje amabati y'umutuku, imbere mu kigo hakaba hateye ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Inyubako ya leta, ikaba isize amarangi y'ubururu hejuru. Amabati asakaye akaba asa ubururu. Inzugi n'amadirishya bikaba bisa umweru naho ibirahure na byo ni umweru.

Ibiro by'akagari, bikaba byubakishije amatafari ahiye, bikaba bisakaje amabati, inyuma y'ibiro hakaba hateye ishyamba ndetse ku ruhande hakaba hari n'ikigega.

Inama yahuje abaturage ndetse n'abayobozi. Iyi nama ikaba yabereye ku musozi, aho abaturage bicaye mu byatsi. Akaba umuyobozi yambaye ishati itukura ndetse n'indangururamajwi isa umukara ndetse.

Hagiye gufungurwa inzu aho iyi nzu yubatse yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati asa ubururu, inzugi n'ibirahure ndetse n'amadirishya bikaba bisa umukara.

Umuhanda wa kaburimbo aho uyu muhanda uciye imirongo itandukanya abagenda na bagaruka, hakaba kuri uyu muhanda uriho ibyuma bizamutse biriho amatara amurika ku muhanda.

Umuhanda wamabuye. Uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'imodoka y'umweru. Akaba ku nkengero z'uyu muhanda, hubatse amazu y'ubucuruzi.

Ku muhanda wa kaburimbo aho uyu muhanda urimo ibimenyetso byerekana gutambuka mbere k'umunyamaguru hakaba hatambukira abanyamaguru ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hubatse inzu.

Akapa ko ku muhanda kakwereka karitsiye ugezemo kaba ari icyapa giteye ku muhanda wa kaburimbo kikwereka aho umuhanda ugaragara ku merekezo.

Umuyobozi arimo arererekera abandi bayobozi uko babigenza, bakaba bahagaze munsi aho iyi nzu yubatse igerekeranye, akaba arimokwerekera harimo n'ab'igipolisi cy'igihugu.

Abaturage bitabiriye imyitozo ngororamubiri rusange aho yabereye mu muhanda wa kaburimbo, aho bari kwirukanka n'amaguru, hakaba hitabiriye abaturage benshi.

Ikibuga cyahariwe gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa kunanura umubiri wose bikaba byitabiriwe n'abaturage, aho bari gukora imikino ngororamubiri.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, hakaba arimo hakinamo amakipe abiri y'abakobwa. Imwe ikaba yambaye ubururu n'umweru, naho indi ikaba yambaye umukara n'umweru. Abakobwa bari gukina umupira mu kibuga gitumukaho ivumbi.

Ibyavuye ku bibuga bitandukanye ku gikombe cy'Umurenge Kagame mu cyiciro cy'abagabo. Aho Umurenge wa Karangazi watsinze bibiri kimwe Umurenge wa Mukama. Naho Umurenge wa Musheri ukaba watsinze kimwe k'ubusa Umurenge wa Kiyombe.

Umukino wahuzaga imirenge ibiri uwa Rwimiyaga n'uwa Rukomo warangiye uwa rukomo utsinze bibiri kuri kimwe cya rwimiyaga aho uyu mukino wabereye ku kibuga cy'ubwatsi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Iki kibuga kikaba kiri gukinirwamo n'amakipe abiri. Imwe ikaba yambaye imyenda y'umuhondo. Naho iyindi ikaba yambaye ubururu bwijimye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, aho cyubatse mu buryo bugezweho. Abafana bakaba bafite aho bicara. Bakaba bicara mu ntebe zisa ubururu, iki kibuga kikaba gisakaye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru aho iki kibuga kiri gukinirwamo n'amakipe abiri. Imwe ikaba yambaye impuzankano y'umuhondo. Izindi zikaba yambaye impuzankano y'ubururu bwijimye buvanzemo akaruru kerurutse k'ikirere. Hakaba harimo umusifuzi w'umugore.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, aho barimo barakina umupira. Akaba harimo arakina amakipe abiri imwe ikaba yambaye ubururu ndetse n'icyatsi. Naho indi ikaba yambaye ubururu bw'ikirere.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, aho iki kibuga kigiye kuberamo umukino uhuza amakipe abiri, imwe ikaba yambaye ubururu bwijimye harimo n'ubundi bururu bwerurutse, indi ikaba yambaye umuhondo ndetse n'umukara wivanzemo mukeya, hakaba harimo n'abasifura uyu mukino bambaye orange ndetse n'umukara.

Abaturage barimo barakora imyitozo ngororamubiri, aho bari gukora iyo kwiruka n'amaguru, bikaba imyitozo yitabiriwe n'abaturage benshi.

Umupira w'amaguru, uyu mupira ukaba uteretse mu kibuga cy'ibyatsi, umupira ukaba usa umweru ndetse hakaba harimo n'andi mabara avangavanzemo ku mpande.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru hakaba hari gukiniramo ikipe yambaye imyenda y'umuhondo ivanzemo umukara muke hakaba ikibuga kizengurutswe n uruzitiro rw'ibyuma.

Ikibuga cy'umupira, ku mpande y'ikibuga, hakaba ari ahagenewe gukorera imyitozo ngororamubiri, hakaba hari abaturage bari gukora imyitozo ngororamubiri, ku nkengero z'ikibuga, hakaba hakikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma.

Umuhanda wa kaburimbo. Uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'imodoka. Imodoka ikaba isa umweru. Ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hateye, ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo, uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'ipikipiki, ku nkengero zuy'umuhanda hakaba hariho ibiti bitwara n' insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wubakishijwe amabuye mato mato, akaba ari umuhanda uri kunyurwamo n'ipikipiki, naho imbere y'uyu muhanda hakaba hubatse inzu.

Umuhanda w'akayira uyu muhanda ukaba uzengurutswe n'ibyatsi ku nkengero z'aka kayira, hakaba hari uruzitiro rw'ibyuma bisa umweru ndetse hariho na senyenge ku mpande.